Abajyanama b'ubuzima ni bo bantu bifashishwa mu buzima aho abajyanama b'ubuzima bifashishwa mu kuba bajya muri buri mudugudu kugira ngo babashe kuba bafasha serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi aho bahabwa amahugurwa kugira ngo babashe kuba bakwita cyangwa se kuba banoza serivisi cyangwa imitangigire myiza kugira ngo babashe kuba batanga ibyo bafite cyangwa se kuba bakwirinda cyangwa bapima abantu uburwayi bugiye butandukanye.

Umupapa urimo uvoma amazi, bishoboke kuba yabuze se cyangwa akaba yamaze kuzuza akaba yishimye, ariko ukuntu yishimye bigaragara ko yamaze kuyabona akaba yishimiye igikorwa arimo.

Kimwe mu bikorwa remezo byegerezwa abaturage birimo imigezi ndetse bibafasha mu kubabagira isuku mu buzima busanzwe, aho leta y'u Rwanda ibashishikariza abaturage kuba bagira isuku, ikabegereza ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amazi ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Gukaraba intoki ndetse no kugira isuku ni kimwe mu bintu bifasha kuba hakwirindwa indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'umwanda, aho bavuga ko mu gihe uvuye mu bwiherero ugomba gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, bikagufasha kuba wakwirinda indwara ndetse no gukwirakwiza indwara zigiye zitandukanye z'umwanda.

Umuryango ushinzwe ubuzima ku isi. Aho uyu muryango ushinzwe kuba wafasha abantu kuba cyangwase ukaba wabahereza imfashanyigisho ku bintu bijyanye n'ubuzima cyangwase ubukangurambaga. Aho bigaragarako ari umuyobozi urimo ababwira ukuntu bakwirinda cyangwase bakwitwara mu gihe mu bihe bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kuba bakwirinda indwara zigiye zitandukanye cyangwase babashe kuba bagira imibereho.

Amazi ni kimwe mu bintu byifashishwa n'abatuye isi, aho amazi yifashishwa mu kuba hakorwa imirimo igiye itandukanye nko kuba wasukura cyangwa se kuba wayanywa cyangwa sekayakoresha muyindi mirimo itandukanye aho bigaragara ko abantu barimo bavoma amazi gusa bisa nkaho amazi ari make yababanye make. Gusa ntacyo bitwaye kuba bavoma amazi kuko bose barayabona.

Kimwe mu bintu bifasha abantu benshi mu gihe ngo amazi yabuze, aho amazi meza ari kimwe mu bintu byifashishwa mu kuba hakugwa ndetse hakana kugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho amazi yifashishwa mu mirimo igiye itandukanye yo mu rugo, aho amazi hano bigaragara ko umuntu arimo avoma amazi mabi, kandi amazi mabi agira ingaruka ku mubiri, amazi mabi abasha gutera indwara zikomoka ku myanda twavuga nk'inzoka, ndetse na diyare, n'izindi nyinshi cyane.

Kunywa amazi kandi meza ni kimwe mu bintu bifasha mu kuba wakwirinda indwara zigiye zitandukanye, aho umazi agufasha kuba wagira ubuzima bwiza, ndetse akanagufasha kuba wakumuka cyangwa se wagira ikibazo cy'umwuma, aho amazi yifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye, si ukuyanywa gusa, amazi yifashishwa no mu yindi mirimo igiye itandukanye yo mu rugo.

Isuku kuri buri muntu wese, ni ahantu urabona ko bigaragara ko ari abana barimo bakaraba intoki ndetse bishimye, bakora isuku ku ntoki zabo ndetse no ku bice by'umubiri byabo, bigaragare ko nyine kandi nk'uko bavuga ko isuku ari ubuzima ndetse ari n'isoko y'imibereho myiza.

Amazi ni ubuzima mu gihe yitaweho akabugwabugwa ndetse agafatwa neza, bivugagwa ko amazi afasha mirongo icyenda na gatanu ku ijana by'abaturage bakoresha amazi inshuro nyinshi cyane ku munsi, noneho bikvuga ko amazi aramutse abungabunzwe yafasha cyane cyane, ndetse akanakoreshwa mu kuba hakwirindwa indwara zigiye zitandukanye z'ibyorezo n'ubwo mo hano bigaragara ko amazi arimo apfa ubusa ariko si byiza.

Ibikorwaremezo ni kimwe mu bikorwa byifashishwa mu kuba hagirwa isuku ndetse bikanifashishwa mu kuba igihugu cyatera cyangwase kikaba cyakwirinda ibintu bigiye bitandukanye nk'ibyorezo aho abana bigaraga ko barimo bakaraba amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo bakwirinda indwara zigiye zitandukanye zikomoka ku mwanda.

Kwisuzumisha cyangwa kwipimisha ni kimwe mu bintu bifasha cyane, aho nk'uko bigaragara ni abaganga barimo bapima cyangwa se barimo basuzuma abantu SIDA kugira ngo babashe kuba bamenya, uko ubuzima bwabo buhagaze kugira ngo nibasanga baranduye babashe kuba batangira cyangwa se mu gihe basanga ari bazima kugira ngo babashe kuba babafasha kwirinda ndetse bakabagira n'inama.

Bigaragaza ko hano harimo batanga inkingo cyangwa ari nk'ubukangurambaga bwari bwabaye kugira ngo birinde icyorezo gitandukanye harimo nka virus, virus zitandukanye harimo nka za Corona ndetse na za ebola n'ibindi byorezo bigiye bitandunye cyangwa se bakaba barimo bakingira abaturage.

Ni amahugurwa agamije kuba yakwigisha abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi bantu kugira ngo babashe kumenya uko bakwitwara mu bibazo cyane cyane nko mu bibazo mu gihe cy'ibyorezo ndetse akanabafasha kumenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ukuntu wakwita ku muntu urwaye cyangwase uje ukugana.

Umubyeyi urimo ukingiza umwana we, harimo umuganga urimo umutera urushinge bigaragare ko bishimiye, umwana ari gufata inkingo zose zuzuye, zimufasha kugira azagire imibereho myiza.

Uku ndetse no kwita ku bintu bigiye bitandukanye, kimwe mu bintu bifasha mu kuba wakwirinda indwara zigiye zitandukanye z'ibyorezo kuba zakomoka ku myanda, aho nk'uko bigaragara mu ifoto ni abana barimo bavoma cyangwa se badaha amazi, ariko atari meza kandi ashobora kuba yabagiraho ingaruka, mu kuba barwara indwara zigiye zitandukanye zikomoka ku mwanda, nk'uko bigaragara twabashishikariza kuba cyangwa se bakabavoma amazi meza kugira ngo babashe kuba bakwirinda indwara.

Abamama batatu bavoma amazi, naho bigaragara ko umwe, babiri babiri bari kuvoma bakoresheje uburyo bwa gakondo bapompa amazi, noneho umwe ari kureka, ubwo bisobanuye ko nananirwa n'abandi baraza bamufashe nawe ajye hariya, nabo bamanze baze bavome kugira ngo bakorere hamwe.

Ni ubukangurambaga bugamije kuba hakwirindwa inda zidateganyijwe ziterwa abangavu, aho bari bakoze amahugurwa ndetse abagaragaza kwirinda inda zitateganyijwe mu bangavu.

abajyanama b'ubuzima ni bamwe mu bantu bafasha cyangwa se bafasha abaturage benshi kugira babashe kuba bakwiza cyangwa se bagora bagatanga ubukangurambaga kugira ngo habashe kubaho kwirinda indwara zi zitandukanye aho abo bajyanama muzima bunganirwa abaganga kugira ngo birinde cyangwa se babafashe aho abajyanama b' ubuzimazima bari bavuye mu mahugurwa kugira ngo babashe kuba babona amahugurwa ndetse n'ubundi bumenyi bwisumbuye kuko bafite kugira ngo babashe kuba bafasha abaturage

Nk'uko bigaragara n'umwana wishimiye ibikorwaremezo aho arimo avoma kugira ngo abashe kuba yacyura amazi murugo aho amazi ari meza cyane yifashishwa na mirongo icyenda n'icyenda ku ijana by'abatuye isi aho amazi yifashishwa mubintu bigiye bitandukanye, amazi yifashishwa mubuvuzi, akifashishwa n'ahantu henshi hagiye hatandukanye, amazi yifashishwa mukuba hakwirindwa indwara zigiye zitandukanye z'ibyorezo nko muri Corona Virus murabizi ko twagiye dukaraba amazi ariyo yaturindaga cyanecyane n'isabune.

Bimwe mu bintu bikoreshwa kugira ngo habashe kubahamenya ubuzima bw'umwana, harimo no bamumupima bakamenya ibiro afite ndetse bakamenya ikigero k'igikuriro agomba kuba afite, bakamenya niba ataragwingiye kugira ngo habashwe kuba hakwirindwa cyangwa hafatwa ingamba mu gihe basanze umwana afite ikibazo cy'ubugwingire, bakaba bamukurikirana akiri mutoya.

Umuryango ushinzwe ubuzima ku isi hose, ufasha abana ugafasha n'abantu b'imfubyi ndetse n'imbabare, ahantu hari nk'intambara cyangwa se ahantu hishwe n'inzara, bitewe n'icyo bagamije kuba bafasha abantu kubaho neza.

Amazi ni kimwe mu bintu byifashishwa mu hasukura cyangwa se hakwirindwa indwara zigiye zitandukanye z'imyanda, aho amazi agufasha kuba wakaraba intoki cyangwa se ukaba yagufasha kuba wakwirinda indwara zirimo zitandukanye nk'inzoka ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane zikomoka ku mwanda. Amazi ni meza afasha cyane mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Icyorezo, icyorezo n'ibindi bintu ni byo bigaragara kuko urabona ko hano ni abaganga bifashisha barimo berekera umuntu kugira isuku nyine, ari nk'icyorezo cya EBOLA se cyangwa se COVID cumi n'icyenda barimo kwifashisha mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze.

Imibereho myiza ni kimwe mu bintu bifasha kuba igihugu cyatera imbere, bishobora no kuzamura ubukungu bw'igihugu. Aho nk'uko bigaragara abana barimo bapompa amazi bayavana hasi, kugira ngo babashe kuba babona amazi yo kuba bakoresha mu mirimo itandukanye y'isuku ndetse, babone n'amazi meza yo kuba bakoresha mu kuba bayanywa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni igikoresho cyifashishwa mu isuku bita agatanda, mu gihe umaze koza amasahani ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo aho ubirambikaho kugira ngo bibe byakumuka ndetse bigata n'amazi kugira ngo bibashe kugabanya mikorobe, kugira ngo bibafashe kuba byarinda indwara.

Amazi ni kimwe mu bintu bifasha kuba wagira isuku ndetse akanafasha kuba hakwirindwa indwara mu gihe uyakoresheje uyanywa kenshi cyane, aho bigaragara ko amazi arimo apfa ubusa kandi atari ibintu byiza, icyo twasanze nkuko twabibonye amazi afasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanya, aho abungabunzwe akitabwaho yafasha mu buzima.

Guhabwa urukingo se cyangwa umwana kuba yahabwa urukingo ni bimwe mu bintu bimufasha kuba yakura neza cyangwa se nk'uko bigaragara ni umuntuntu urimo aha abantu amabwiriza ukuntu bakwirinda cyangwa se bafata umwana kugira ngo abashe kuba yakura neza cyangwa se kugira ngo habashe kuba hakwirwa imigwingire ku mwana abashe kuba yakura neza kuko bavuga ngo umwana ni umutware.

Abana b'abanyeshuri bigaragara ko barimo bakaraba intoki, bivuga kandi gukaraba amazi meza n'isabune bifasha kuba umuntu yagira ubuzima bwiza ndetse n'ibindi bintu bigafasha kuba byarinda indwara, rero ni muri uru rwego gukaraba intoki bifasha mu mikurire myiza y'abana ndetse n'abantu bakuru, bikagufasha kuba wakwirinda indwara z'ibyorezo.

Umuntu urimo uhereza abana amata mu cyansi, abahereza amata, inyuma bigaragara ko hari umusirikare ufite icyansi, nawe aje guha abana amata ni ubuzima aba abahereza, nyine abahereza n'impanuro kugira ngo babashe kuba bagira igikuriro kiza.

Hano nkuko uko bigar agara ni abajyanama

Amazi ni ubuzima aho tubona ko abantu barimo bavoma bashaka amazi yo kuba bakwifashisha mu mirimo igiye itandukanye aho amazi akoreshwa mu mirimojyi itandukanye nko gusukura amazu, koza ibyombo, kuba bayakaraba intoki neza n'isabune, kuyakaraba ku mubiri, ndetse n'ibindi byinshi cyane amazi agufasha cyangwa se bakaba banayaywa kuko amazi afasha mu mubiri cyane.

Isuku n'isukura ni kimwe mu bintu abantu benshi bakunda kwibandaho, amazi yifashishwa mu gusukura ndetse no mukoza ibintu bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho amazi afasha kurinda ndetse akanafasha kuba hakwirindwa indwara zigiye zitandukanye zikomoka ku mwanda.

Umuntu uvuye kuvoma afite indobo ebyiri, imwe arayikoreye indi iri mu ntoki, aho bigaragara ko aha hantu hashobora kuba hatari ibikorwa remezo bihagije kuko iyaba hari ibikorwa remezo bihagije yakabaye yaravomye hafi cyangwa se afite nk'amazi iwe mu rugo.

Amazi meza n'isabune ni kimwe mu bintu byifashishwa mu kugira ngo habashe kuba hakwirinda indwara zigiye zitandukanye z'umwanda, aho nkuko mubibona abana b'abanyeshuri, barimo bakaraba neza kandi intoki kugirango bashe kuba bakumira cyangwa se birinda indwara zijyiye zitandukanye zikomoka ku mwanda.

Isuku ni ubuzima. Biragaragara ko hari umwana urimo arakaraba intoki kandi batubwira ko gukaraba intoki ari byiza, byibuze inshuro eshanu cyangwase zibaye byiza zanarengaho ku munsi, isuku ni isoko y'ubuzima.

Imigwigire ndetse no kuba abana badakura neza, ni kimwe mu bintu bihangayikishije Isi ndetse by'umwihariko n'u Rwanda, aho nk'uko mubibona ni abantu barimo mu karima k'igikoni barimo batera imboga ndetse n'ibindi bintu byafasha umuturage cyangwase byafasha kugira ngo abashe kuba yakwirinda indwara cyangwa se abashe kuba yagira ubuzima bwiza bitewe no kurya imboga ndetse n'imbuto.

Amazi ni kimwe mu bintu nk'uko twagiye tubigarukaho kenshi cyane ko amazi afasha mu kuba hakorwa isuku yo mu rugo ndetse no kuba yifashishwa mu kuba hakozwa ibikoresho bigiye bitandukanye, aho amazi afasha kuba yarinda ndetse akaba yanafasha kuba hakwirindwa indwara zigiye zitandukanye zituruka ku mwanda.

Ikirangantego kidufasha cyangwa se ikirangantengo cy'imibereho myiza, aho ku isi hose aho gifasha kubungabunga ubuzima ndetse kikanita ku buzima muri rusange ku isi yose, twavuga nko mu Rwanda hari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bita RBC, iki ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ku isi hose.

Umujyanama w'ubuzima ndetse n'umuryango w'umugabo n'umugore, aho bigaragara ko ashobora kuba umama utwite aho bigaragara ko umumama ari kubasobanurira uburyo yakwitwara mu gihe ashobora kuba atwite ndetse no gufata neza umuryango wiwe.

Nk'uko mubibona cyangwa se bigaragara, abana bishimiye kuba bahuriza hamwe, aho abana kubahuriza hamwe cyangwa se kuba bahura bakaganira bagasabana, ari bimwe mu bintu bifasha abana kuba bakwishima ndetse bikaba byabafasha kwagura ubwenge cyangwa se imitekerereze yaboz aho abana ari Rwanda rw'ejo cyangwa se bivuga ko umwana ari umutware.

Umwe mu bantu bagaragara nk'aho afite ikibazo cyo mu mutwe, aho bikwiye kuba yakwitabwaho akajyanwa ahabishyizwe ahazwi nk'indera kugira ngo abashe kuba yakwitabwaho kugira abashe kuba yagaruka mu buzima busanzwe, ndetse akanakurikiranwa, kugira ngo abashe kuba yagaruka agashyira n'ihungabana kugira ngo agaruke muri sosiyete Nyarwanda.

RBC ni Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Ubuzima, aho iki kigo gishinzwe kuba cyateza imbere ubuzima cyangwa se gishinzwe kuba cyafasha kuba kongerwa ubuzima, kugira ngo habashekwitabwaho benshi, aho bishoboka ko ari nk'inama cyangwa se ari nk'amahugurwa bari kuba baha abantu bagiye batandukanye, bari muri icyo kigo kugira ngo habashe kuba hanozwa imitangirwe myiza ya serivisi ku bantu bose.

Umwana ugaragara ko ashobora kuba yarahuye n'ubuzima biba, afite ubuzima bubi, bigaragara ko ashobora kuba yarababaye, nk'aho bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'ubuzima bitewe n'uko yavutse cyangwase yabayeho, uri kubona ko imyambaro, nta n'imyambaro afite bigaragara ko uyu mwana abayeho nabi.

Kwipimisha cyangwa kwisuzumisha ukamenya uko umubiri wawe uhagaze, ni kimwe mu bintu abantu benshi bakoresha cyangwa se bifashisha kugira ngo babashe kuba bamenya uko ubuzima bwabo buhagaze, cyangwa se bikaba byabarinda kuba bazahazwa n'indwara, ahu nkuko mubibona ari nk'umujyanama w'ubuzima urimo apima umwana kugira ngo abashe kumenya uko ahagaze, kugira ngo abe yamufasha kumuha imiti.

Ikigo gishinzwe ubujyanama, ndetse kikaba gishinzwe kuba cyagira inama ku bantu bagize ikibazo cy'ihungabana, twavuga wenda nko kuba umuntu afite nk'ikibazo cy'ihungabana, akaba yajya ahangaha bakaba bamuvura cyangwa se bakaba bamugira inama ku bintu bizima ku bintu bigiye bitandukanye, aho bimufasha kwirinda kuba wagira ikindi kibazo wenda nko kuba wakwiyahura, cyangwa se ukaba wakwishora mu bindi bintu bitari byiza, aho bagufasha bakakugira inama kugira ubashe ku.

Gufasha abana, ni kimwe mu bintu bibafasha kuba bagira igikururo cyiza, aho bibarinda kubagwingira, aho turimo turabona umujyanama arimo abagira inama y'ukuntu bakwita ku bana babo, kugira ngo babashe kuba bakura neza batabashije kugwingiraha, babaha indyo yuzuye, irimo imboga n'imbuto ndetse n'ibyubaka umubiri, aho bibafasha kuba bagira igikuriro cyiza.

isangiye ni ikigo gifasha abantu bahuye n'ikibazo cy'ihoterwa iki kigo kigufasha kuba cyakugira inama cyangwa se kizagufasha kugira ngo ubashe kubonera ubutabera mu gihe wahohotewe wafashwe ku ngufu c se wagize ikibazo cyihungana biturutse ku bintu bigiye bitandukanye nk'amakimbirane ndetse n'ibindiro baragufasha isange iragufasha

Umusaza wizihiwe bigaragara ko ashobora kuba yanyweye agacupa, cyangwa se akaba afite uburwayi bwo mu mutwe bitewe n'uko hano bigaragara.

Guseka ni kimwe mu bintu gifasha mu mitekerereze ya muntu, aho abahanga bagaragaza ko guseka ari isoko y'ubuzima. Guseka ni kimwe mu bintu gishobora kugufasha kuba waruhuka mu mutwe ndetse kikagufasha no kwibagirwa ibindi bintu byinshi byari bikubabaje.

Kimwe mu bintu bifasha cyangwa se ikigo gifasha, ku bijyanye no mu buzima bwo mu mutwe, aho iki kigo gifasha kuba cyagira inama ku bantu bagize ibibazo by'ihungabana, kikaba cyabagira inama, kugira ngo hirindwe kuba bafata ibyemezo bitari ngombwa cyangwa se ibyemezo bidafatika bibaganisha mu nzira mbi, aho iki kigo gishinzwe kubafasha mu bijyanye n'ubujyanama.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ubuzima bwo mu mutwe, aho basanze ko abantu benshi bafite ibibazo byo mu buzima bwo mu mutwe ari nako isi yaje gutekereza ikavuga ngo reka dushyireho umunsi wihariye wo kuba twakwizihiza cyangwa se twakumira ubuzima bwo mu mutwe, gufasha abantu benshi bafite ubuzima bwo mu mutwe, aho iki gikorwa ari ngarukamwaka.

Uburezi ni kimwe mu bintu bishobora gufasha Igihugu mu kuba cyatera imbere mu buryo bwihuse ariko ubwo burezi ntabwo bwakorwa hadakoze ikintu kirimo isuku, uragaragara ko babahaye umuti w'amenyo ndetse n'ibindi bintu byo kwifashisha kugira ngo, babashe kuba bagira isuku mu buzima.

Bimwe mu byuma cyangwa se ikoranabuhanga ryifashishwa mu buvuzi, aho iri koranabuhanga ryifashishwa mu kuba havurwa cyangwa se hatahurwa indwara zigiye zitandukanye, aho ikoranabuhanga rikoranye ubuhanga buhanitse, aho bifasha kwivuza cyangwa se bikaba byakorohereza abaganga kuba bamenya indwara umurwayi arwaye.

Koza amenyo ni kimwe mu bintu bigufasha kuba wagira isuku y'amenyo aho bigufasha kuba wakwirinda kuba wagira umwuka mubi mu kanwa ndetse bikaba byanagufasha mu kwirinda izindi ndwara zigiye zitandukanye z'amenyo aho gukoresha uburoso bwiza ndetse n'umuti w'amenyo bigufasha kuba wagira umwuka mwiza mu kanwa.

Kwivuza amenyo ni kimwe mu bintu bigufasha kuba wakwirinda indwara zigiye zitandukanye zo mu kanwa. Aho kwivu amenyo cyangwa kuba wakura amenyo mu gihe wenda yagize ikibazo cy'uburwayi bigufasha mu kuba wakwirinda cyangwa se bikaguha byagufasha wagabanya ububabare mu gihe amenyo yakuryaga, cyangwa se bikaba byagufasha kuba warya neza ibintu bigiye bitandukanye twavugamo nk'ibigori ndetse n'ibindi bintu biba bikomeye kugira ngo mugihe utabasha kuba wabirya.

Inseko se cyangwa se umuntu wishimiye ubuzima bitewe n'ibyo ahuriramo nabyo mu buzima cyane ko bavuga ko guseka byongera iminsi yo kubaho ndetse bikanafasha umuntu mu mitekerereze yiwe.

Umuntu urimo akoresha akagozi akifashisha mu kugira ngo abashe kuba yakura amenyo akoresha akagozi ndetse kugira ngo abagira isuku yo mu kanwa yifashisha kagozi kugirango abashe kubahaturara cyangwa se yakoza amenyo akoresheje akagozi kugirango abashe kba yagira isuku mukanwa.

Kwipimisha cyangwase kwisuzumisha ukamenya uko ubuzima bwawe buhagaze ni kimwe mu bintu bifasha mu kuba wakwerinda kuzahazwa n'indwara cyangwa se gihe umenye ko wanduye cyangwa se warwaye indwara zigiye zitandukanye ukabasha kwivuza. Aho bigaragara ko umuganga arimo afasha umubyey ibishimye cyane amubwira amusuzuma buzima bwe buhagaze kugira ngo abashe kuba yamenya uko ahagaze, mu gihe yasanga afite ikibazo cy'uburwayi akaba yakwirinda cyangwa se akaba yatangira kwihuza.

Ubuzima buzira umuze, ni rwo rufunguzo rw'ubuzima, umusaza urimo afata ibisubizo se cyangwa ibizamini, yisuzumisha amenya ukuntu umubiri we uhagaze, kugira abashe kuba yakwirinda indwara se cyangwa abashe kuba yafata ingamba z'uko yitwara mu buzima asigaje.

Ubuhinzi ni kimwe mu bintu byifashishwa mu kuba igihugu cyatera imbere, cyangwa se abantu batera imbere, byifashijwemo no kuba wahinga cyangwa se kuba wahinga neza, kugira ngo ubashe kubahoha kongera umusoro, nk'uko mubibonana ni abantu bari mu murima bishimiye kuba barejeje imyaka, cyangwa se kuba barishimiye umumero w'imyaka yabo kugira ngo bazashe kubafasha mu minsi iri imbere, kugira ngo bazabeho neza.

Kwiga cyangwa se ndetse no gusoma ni kimwe mu bintu bifasha umuntu kuba yakwagura ubwenge cyangwa bikamufasha kuba yamenya ibintu byinshi bigiye bitandukanya, aha ngaha uko bigaragara ni umusaza urimo usoma ibitabo bigiye bitandukanye, kugira ngo abashe kuba yakwiyungura ubumenyi cyangwa se yakongera ubumenyi kugira ngo cyangwa se bikaba byamufasha kuba yaruhuka mu mutwe mu gihe uri gusoma ni ibintu bifasha cyane.

Imikino ni kimwe mu bintu bifasha mu kuba hakwirindwa indwara zigiye zitandukanye aho twavuga nk'ubuvuzi nko gukina bigufasha kuba wakwirinda indwara zigiye zitandukanye harimo nko kugabanya imitekerereze itari myiza cyangwa se bigagufasha kuba waruhuka mu mutwe ndetse n'ibindi aho imikino igufasha mu kuba watekereza neza ndetse igafasha mu bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye aho gukina ari byiza cyane.

Kwirinda ndetse no kwivuza, ni kimwe mu bintu bigufasha mu ku wagira ubuzima, no kuba wakurikiza inama muganga yakugirye ukuntu wafata imiti neza, bikurinda kuba wazahazwa n'indwara cyangwa se bikakurinda kuba wakwicwa n'indwara.

Umuganga urimo ufasha umusaza bigaragara ko amaze iminsi afite nk'ikibazo cy'uburwayi bw'imvune, bigaragara ko ari kumufasha kuba yasubira mu buzima busanzwe, akaba yagenda ndetse ni igikorwa kiza kigaragaza umurava w'abaganga.

Ubukangurambaga se cyangwa kuba wakurikiza inama za muganga mu gihe yakwandikira imiti, mu gihe urwaye, ni kimwe mu bintu bifasha umurwayi kuba yakoroherwa se cyangwa bikaba byamufasha kuba yakira burundu, bikamurinda kuba yazahazwa n'indwara, aho tubona ko umuntu arimo umugira inama ukuntu yafata imiti kandi neza, kugira bimurinde kuba yazahazwa n'indwara.

Abasaza bishimiye imikino, aho barimo bakina igisoro, urabona ni umusaza ndetse n'undi musore utagaragara neza, bigaragara ko bishimiye kuba bakina igisoro, kandi bigaragara bivugwa ko gukina ari bimwe mu bintu bigufasha kuruhuka mu mutwe, ndetse kuba wakina nk'igisoro ni ibintu byiza cyane, bishobora kugufasha kuruhuka mu mutwe.

Umusaza ugaragara mu ifoto ari kumwe n'umwana we se cyangwa umwuzukuru we, bigaragara ko yamwishimiye bahuje urugwiro, ari kumuha uburere, amwishimiye, amukinisha, anamusekesha ndetse bigaragara ko bishimye cyane.

Kwishima ndetse no guseka ni kimwe mu bintu bifasha abantu kuba bagira ubuzima bwiza cyangwa se bikaba byabafasha kuba baruhuka mu mutwe, aho bigaragara ko ari umuryango wishimye ndetse unezerewe mu bintu bigiye bitandukanye, aho kwishima cyangwa se kuba wanezewe bigufasha kuba wagabanya imitekerereze cyangwa se bikagufasha kuba waruhuka mu mutwe.

Umusaza n'umukecuru bishimye, ubugaragara nk'uko bigaragara, umusaza arimo amuha ubujyanama, umukecuru amubwira uburyo gukoresha imiti ari bimwe mu bintu byiza cyane, gufata imiti nk'uko muganga yayikwandikiye ari ibintu byiza cyane, bikaguha cyangwa bikagufasha mu kuba wakira vuba, ndetse no kuba muzu kugira ubuzima buzira umuze.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abantu bafite ubumuga, aho ibi ibikoresho byifashishwa kugira ngo baborohereza mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho ibi bikoresho twavugamo akagare ndetse n'imbago, bibafasha mu gihe bagize ikibazo cy'ubumuga cyangwa bahuye n'ikibazo cy'impanuka wenda bakaba yacika amaguru,, aho ibi bikoresho bifasha cyane aho tubona ko abari kubitanga ari minisiteri iri kubitanga kugira ngo babashe kuba bafasha n'abafite ubumuga kugira ngo babeho neza.

Kimwe mu bintu bifasha abantu kuba batera imbere, ni nko kwihuriza hamwe bagakora amatsinda kugira ngo babashe kuba batera imbere, hano bigaragara ko ari abantu bihurije hamwe bakagirana ubujyanama ndetse bakanunganira, aho bamwe barimo babuha ndetse abandi barimo baganiriza kugira ngo babashe kuba bagira ubuzima bwiza, ndetse bikanabafasha guhura cyangwa se kongera inshuti mu buzima.

Kwakira neza abantu batugana ni byo bintu bidufasha cyangwa se bifasha kuba hakongegwa amafaranga cyangwa se hakongegwa ubukungu ahantu hagiye hatandukanye, aho bigaragara ko umuforomo cyangwa se umuganga yishimiye umukecuru waje kwivuza, ari kumuha serivisi nziza ndetse akanamwereka ko amwishimiye arimo

Gukora cyangwase gukina imikino ni kimwe mu bintu bifasha ubuzima cyangwa se bifasha abantu kuba baruhuka mu mutwe ndetse bikabafasha kuba batekereza cyane mu bitekerezo byagutse aho umusaza arimo akina umukino kugira abashe kuba yatekereza cyangwa se bibasha kuba byamufasha kuba yaruhuka mutwe ndetse bikaba byamufasha kwirinda n'ibindi bintu byinshi birimo nko kuba yakwishora mu ngeso mbi, nko kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi.

Kurya cyangwa se kuba warya ni kimwe mu bintu bifasha mu kuba hakwirasi cyangwa kubahokwirinda ibintu byinshi. Aho kurya indyo yuzuye ari kimwe mu bintu bifasha cyane mu kuba habungabunga ubuzima, cyangwa se bikaba byagufasha mu kugira ubuzima bwiza.

Kugira isuku ku mubiri ni kimwe mu bintu bifasha kuba wakwirinda indwara zigiye zitandukanye, aha twavugamo nk'indwara y'uruhu ndetse n'ibindi bintu. Koga amazi meza n'isabune ndetse ukanihanagura neza, ni kimwe mu bintu bigufasha kuba wagira uruhu rwiza ndetse bikagufasha mu kuba wakwirinda indwara zigiye zitandukanye zikomoka ku mwanda.

Umusaza ukuze bigaragaye ko ari kwa muganga, arimo arasunikwa n'umupuranto yicaye mu kagare, biragaragara ko umusaza yanezerewe cyane yishimiye, umuganga yamwishimiye n'awe bishimanye bose bameze neza.

Gukurikiza inama za muganga ni zimwe mu ngamba cyangwa mu bintu byagufasha kuba wakira vuba, aho gukurikiza inama za muganga ukanywa imiti neza uburyo yayikwandikiye, bigufasha kuba wakira vuba ndetse ukagaruka mu buzima busanzwe, aho ari bimwe mu bintu byagufasha ndetse bikanaba byakugirira neza kugira ngo ubeho neza.

Ubushita bw'inkede ni kimwe mu mu byorezo byagaragaye, aho ubu bushita bw'inkende bwica abantu benshi cyane, aho ubu bushita bw'inkede bwandura, bugira ibimenyetso bigaragara ku mubiri, aho ugira ibiheri ku mubiri, cyangwa se ukagira umuriro mwinshi ukabije, aho ubushita bw'inkede kubwirinda bushobora gukoresha kuba wakaraba amazi menshi meza n'isabune, cyangwa se kwirinda gukora ku matembabuzi y'uwagaragaje ibimenyetso.

Hano nkuko mubibona ni umuntu ugize ikibazo cy'uburwayi, cyangwa se ugize uburwayi butunguranye. Aho abaganga bari kubasha kuba cyangwa se bari kuba bamwitaho kugira ngo babashe kuba bamuha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo bamugarure cyangwa se babashe kuba bamuha ubutabazi kugira ngo, nibirangira babe bamujyana kwa muganga cyangwa se bamujyane ahantu bamufashe neza.

Mabage ni indwara mbi ishobora kuba yakwica abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho iyi Mabage mu rwego rwo kuyirinda, batubuza kwegeranya cyangwa se kwirinda gukora ku matembabuzi y'umuntu wanduye Mabage, aho muri iyi nama bigaragara ko barimo babigisha ingamba ndetse n'ukuntu bakwirinda iyi Mabage.

Ni ubukangurambaga bugamije kuba bwakwigisha urubyiruko kuba rwakwirinda sida ndetse n'ibindi byorezo, aho byagaragaye ko mu rubyiruko ariho sida iri kwiyongera cyane bikabije ugereranyije n'ahandi hantu, kandi sida akaba nta keza kayo.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kuba hakwirindwa indwara z'ibyorezo aho abo baganga basa n'aho bifoteje mu gihe cya covid. Ni bimwe mu bikoresho byakoreshwa cyangwa se bikaba byarabarindaga kuba bakwandura indwara ya covid cyangwa se izindi ndwara zitandukanye z'ibyorezo aho ibikoresho bibafasha kwirinda ndetse no kwipoteja kugirango bibashe kubarinda icyorezo icyo ari cyo cyose.

Aha ngaha ni ubujyanama se, cyangwa se ni nk'abamama bari bateranye cyangwa se abaturage barimo bigishwa mu kwirinda cyangwa se mu kwirinda indwara zirimo zitandukanye z'ibyorezo, harimo nka SIDA ndetse n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye, indwara zandura ndetse n'izitandura kuzigerageza bakabasha kuba bazirinda.

Kwipimisha cyangwa se kwisuzumisha, ni bimwe mu bintu bifasha kuba wakwirinda cyangwa se ukamenya uko uhagaze kugira ngo ubashe kuba watangira gufata imiti mu gihe usanze wuranduye cyangwa urwaye. Turimo turabona umuganga urimo upima umukobwa kugira ngo abashe kumenya uko ahagaze, kugira ngo nasanga yaranze cyangwa se arwaye abashe kuba yakwirinda ndetse cyangwa mu gihe arwaye atangire afate imiti.

Coronavirus ni kimwe mu byorezo byazahaje

Ni igikorwa kigaragara ko bishoboka ko ari igikorwa cy'ubufatanye ndetse kugira ngo habashe kuba hafatanywa ingamba zo kuba havugwa cyangwa se havugwa abantu benshi cyane mu gihe gito. Cyangwa se bakaba bafatanya mu guhuza imbaraga kugira barinde indwara cyangwa se barinde ibyorezo.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri aho ibikoresho bigufasha kuba wagarura ubuzima cyangwa se ukaba wakongera imbaraga cyangwa se ukaba wakongera ibice by'umubiri aho ibikoresho birimo ibikoresho biterura, ibinyongwa ndetse n'ibindi bikoresho byo kwirukanka aho ibikoresho bigufasha uri mu myitozo ngororamubiri bikaba byagufasha kuba wa kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ububiko bw'imiti bufasha abantu mu kuba bakwivuza indwara zitandukanye, aho ububiko wandikirwa imiti na muganga ukaba wajya kuyigurayo cyangwa se mu gihe wumva wenda ufite n'ibibazo bidakomeye cyane, ukajya bagurayo utunini ndetse biranafasha cyane mu buzima busanzwe.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, aho ibi bikoresho byifashishwa mu gihe habonetse abarwayi benshi cyangwa se hakaboneka umurwayi urembye cyane, aho bibafasha kuba bamuhereza igitanda kugira ngo atabasha guhungabanywa n'ikindi kibazo kirimo nko kuba wenda kuba yazungera akikubita hasi akaba yagira ikibazo.

Ubuvuzi ni kimwe mu bintu bifatiye isi runini nkaho bivugwa y'uko ubuvuzi ari kimwe mu bintu birinda cyane bikanakumira impfu zitateganyijwe, aho bigaragara ko hano harimo abantu barimo bikingiza se cyangwa bifatisha ibizamini kugira ngo babashe kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa kwa muganga aho ibikoresho bigiye bitandukanye bifasha mu kazi gatandukanye aho harimo; nka gatanda kifashishwa mu kugira ngo umurwa aryama mu gihe bari kumubaga cyangwa se n'amatara yifashishwa kugira ngo abashe kumubaga neza bamureba neza aho ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye kugira ngo abashe kunozwa imitangirwe myiza.

Isuku ni ubuzima hano bigaragara ko ari kwa muganga bigaragare ko abantu bashinzwe isuku mu bitaro barimo bita ku isuku yo mu bitaro, nk'uko bavuga ko isuku ari isoko y'ubuzima ndetse bikanaba byafasha mu buzima kuba byakwitabwaho mu gihe yaba ikozwe neza.

Menya uko ubuzima bwawe buhaga, kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze wifashishije mugihe wipima cyangwa se wipimisha indwara zigiye zitandukanye, kugirango umenye uko uhagaze kugirango ubashe kuba wakwirinda cyangwa se mu gihe usanze urwaye ukabasha kuba wafata neza imiti imiti ya muganga ugakurikiza ndetse n'amabwiriza.

Bimwe mu bikorwa remezo aho igikorwa remezo cy'inzu ababyeyi bifashisha barimo babyara cyangwa se ababyeyi babyaye bifashisha kugira ngo babashe kuba bakwitabwaho n'abaganga biborohe kugira ngo hirinde akajagari ndetse kugira ngo babashe kuba bayitabwaho nta kavuyo kabayeho mu bitaro.

Ibikorwa remezo byifashishwa mu ndwara yo kuvura amaso, aho wasangamo rinete ndetse z'ubwoko bugiye butandukanye zifashishwa mu kubazavura amaso ndetse no gufasha umuntu kuba yareba neza mu gihe yaba afite ikibazo cyo kutareba neza.

Ubuvuzi ni kimwe mu bintu bifasha mu kuba cyane aho bigaragara ko ari umuntu urimo yitabwa abagwa kugira ngo abashe kuba yamera neza urabona ko abaganga bamwitayeho neza cyane.

Imashini zifashishwa mu buvuzi, aho izi mashini zigiye zikora imirimo igiye itandukanye. Aho zifashishwa kwa muganga kugira ngo habashe kuba hanozwa imitangire myiza ya serivisi kugira ngo abantu babashe kubaho neza bagire ubuzima buzira umuze.

Kimwe mu bikorwa remezo byifashishwa, aho ababyeyi babyifashisha kugirango babashe kuba babyara cyangwa babigane kugirango babashe kuba babahe serivisi zo kuba babyara ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye, kugira babashe kuba bakwirinda impfu zigiye zitandukanye aho ibitaro byifashishwa mu kuba serivisi zigiye zitandukanye kandi zinoze.

Kimwe mu bikorwa remezo byifashishwa mu buvuzi aho aha ngaha hifashishwa mu kuba havura ndetse hanakwitabwaho abarwayi bagiye batandukanye, aho buri murwayi wese afite indwara zigiye zitandukanye, abasha kuba yakwitabira bino bitaro kugira bibashe kuba byamuvura ndetse bikanabasha kuba byamenya ikibazo afite, kugira ngo bibashe kuba byamufasha.

Ibitaro byiza byo kwa Nyirankwaya bigaragara ko ari ahantu hatangirwa serivisi nziza z'ubuvuzi zirimo ububyaza, n'izindi nyinshi cyane, bigaraga ko ari ahantu hafite isuku ndetse hateye n'imbere.

Abafasha abaganga bigaragara ko bishimiye iterambere ndetse ry'igihugu, urabona ko ahantu hafite isuku, barishimye, baranezerewe, bafite akanyamuneza; mbese bisobanuye ko babayeho neza, nta kintu babuze mu buzima.

Ni ahantu heza hagaragara imikorere myiza ndetse n'isuku, umutekano urabona abamama baza ntacyo bikanga, kandi ni ahantu hari ibikorwaremezo bihagije, harimo idarapo ry'igihugu, imodoka, amazu meza, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane.

Bumwe mu bubiko bw'imiti cyangwa se ahantu abantu bagurira imiti igiye itandukanye, aho bifasha mu kuba hakwirindwa cyangwa se wabona imiti mu buryo bworoshye bidasabye kujya kure cyangwa se bidasabye gutegereza umwanya munini, aho bigaragara ko ugize ikibazo cy'uburwayi, ubasha kuba wagana farumasi kugira ngo ubashe kuba yakuvura mu buryo bworoshye kugira ngo hirindwe kuba wazahazwa...

Kwikingira cyangwa se gufata urukingo ikintu gitandukanye ni ibintu bifasha kuba wakwirinda cyangwa se bikaba byagufasha kuba wazahazwa n'indwara zigiye zitandukanye z'ibyorezo, aho bigaragara ko ari umuganga urimo atera urushinge umuntu aho uyu muganga arimo amutera urushinge bishobora ko kuba yamukingira cyangwase ari kuba yamufata ibizami kugira ngo abashe kuba yamurokora.

Ikigo gishinzwe ubushakashatsi ku bintu bijyanye n'ubuvuzi harimo nko kwiga ku ndwara z'ibyorezo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, no kuba cyavumbura inkingo zikagera ku baturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Gutanga amaraso ni kimwe mu bintu bifasha mu buvuzi bugiye butandukanye, aho amaraso ahabwa abantu bagiye batandukanye nk'indembe zigiye zitandukanye, aho bigaragara ko umuntu arimo atanga amaraso ndetse n'umuganga arimo kumufasha kuba yatanga amaraso kuko ni igikorwa cy'ubutwari, aho amaraso yifashishwa ahabwa abantu bagize ikibazo cy'impanuka ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye byo kubura amaraso.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu buvuzi, nkaho twavuga nk'iki gikoresho cyifashishwa kugira ngo habashe kuba haboneka ibizamini, cyangwa se abashe kuba hasuzumwa ikibazo, kugira ngo bibashe kuba byafasha kumwereka ibisubizo by'ibyo akeneye, kugira ngo, mu buryo bimworohe, kugira ngo abashe kuba yatanga ibizamini by'umurwayi, cyangwa se abashe kubona ibisubizo mu buryo bumworoheye.

Ni igikorwaremezo nyine cyubatse uburyo cyubatse urabona ni ikintu gifite ikoranabuhanga riri hejuru byifashishwa mu kuvura ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane kuba byavura hakoreshejwe ikoranabuhanga riri hejuru mu kuba mwamenya umuntu ikibazo cy'indwara afite.

Bimwe mu bitaro bigaragara ko ari ibitaro by'abana, aho bigaragara ko harimo abana benshi barimo bagwariye ariko bikagaragara ko harimo n'umuganga urimo ubitaho ndetse n'ababyeyi babagwaza, baje kugwaza abana ariko urabona ko ikintu nyamukuru kirimo hano, ibitaro bifite isuku ihambaye ndetse n'imitangigwe myiza imeze neza ku gwego rwo hejuru.

Ni igikorwa remezo cyubatswe gifasha abantu kuba cyababonera ubutabera cyane cyane abana b'abangavu b'abakobwa babasha bafashwe kuba bafashwe ku ngufu, kikabagira inama ndetse kikanabafasha no kuba cyababonera ubutabera ku bantu babahohoteye, mbese ni ikigo gishinzwe kurwanya ihohoterwa mu gihugu.

Isange ni kimwe mu bigo bifasha cyangwa se bigufasha ku bakobwa cyangwa se abantu bahuye n'ikibazo cy'ihungabana, aho iki kigo kigufasha kuba wakwirinda cyangwa gutanga ubujyanama ku bantu bahuye n'ikibazo k'ihungabana aho kibafasha kuba cyabagira inama cyangwa se kikaba cyabashakira ubutabera kugira ngo habashwe kuba habonerwa ubutabera abantu benshi bagiye batandukanye aho kirwanya ihohoterwa ndetse.

Ububiko cyangwa se ikusanrizo ry'imiti, aho abaturage bashobora kuza bakagurira imiti cyangwa se akaba ari mu bubiko bw'ivuriro, bufasha mu mibereho myiza kugira ngo abaturage babashe kubona imiti bakeneye.

Kwita ku mwana cyangwa se gupimisha umwana ni kimwe mu bintu bifasha kugira ngo ubashe kuba wamenya ibiro bye kugira ngo abashe kuba yakora neza cyangwa se kugirango ubashe kubamurinda imigwingire ikabije kugira mu gihe usanze umwana afite ibiro bike ubashe kuba wamuha intungamubiri cyangwa se ubashe kuba wamuha ibimwongerera imbaraga ndetse n'ibindi byinshi cyane kugira ngo umenye uko umwana ahagaze nyine ubasha uko wamwongerara indyo yuzuye ukamuha imboga n'imbuto.

Hamwe mu hantu hafite isuku ndetse na bimwe mu bikoresho byifashishwa kwa muganga aho turabona mo robine y'amazi ndetse n'udutambaro bihanaguza mu gihe umaze gukaraba intoki n'isabune, aho ibi bigufasha kuba hakwirindwa indwara zigiye zitandukanye kugira ngo zikomoka ku mwa.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, aho ibikoresho byifashishwa mu kugira ngo habe hakongera cyangwa se hagabanywa ibiro, aho ibikoresho birimo bigiye bitandukanye, aho twavugamo ibikoresho baterura, ibyirukansa ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bigufasha mu kuba wagira ubuzima bwiza, ukora imyitozo ngororamubiri.

Kimwe mu bikoresho byifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, aho ibi bikoresho byifashishwa mu kuba umurwayi yabagwa, cyangwa se mu gihe aryamye arimo abagwa. Aho bifasha abaganga kuba bamubaga neza, harimo amatara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, imashini ireba uko umutima utera ndetse n'ibindi bifashishwa, habasha kuba hatangwa serivisi nziza.

Ni igikorwa remezo cyifashishwa kwa muganga mu gihe mu buvuzi bugiye butandukanye hagamijwe kugira ngo, hamenye cyangwa se hasuzumwe, indwara runaka se cyangwa kikaba gifasha kumenya abaganga mu buryo bworoshye indwara umuntu yaba afite cyangwa se n'ibindi bintu byinshi cyane.

Kwita ku barwayi ndetse no kuba wabaha ibintu bakeneye ni kimwe mu bintu bibafasha kuba harindadwa ubuzima bugiye butandukanye aho twavuga nkokoresha ikoranabuhanga rihambaye kugira ubashe kuhasuzuma ndetse kugira ngo n'abarwayi bafite wenda nk'umwuka muke ubashe kuhahungira ndetse ukabasha no kugira isuku mu bitaro.

Bimwe mu ikoranabuhanga cyangwa se ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, aho ibikoresho byifashishwa kugira ngo abashe kuba umuganga cyangwa se umurwayi kugira ngo abe yagaruka mu buzima, mu gihe amaze kuvurwa, akore na siporo kugira ngo abashe kuba yagaruka mu buzima, kugira ngo bamufashe kuba yakira.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kugira ngo hakorwe imyitozo ngororamubiri, aho ibi bikoresho bigufasha mukuba wakirinda indwara zigiye zitandukanye zikomoka kudakora siporo cyangwase zikakurinda kuba wagira imisazire mibi, aho ibi bikoresho byiganjemo ibyo guterura, ibinyongwa ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bigufasha mukuba wakirinda indwara zigiye zitandu....

Umwitozo ngororamubiri ugufasha kubavwagororoka ndetse no kugira imibereho myiza, harimo turabonamo amazi, harimo ndetse amazi ndetse n'ibikoresho ari kwifashisha mu gukora iyo myitozo ngororamubiri, urabona arimo yigorora, agorora umuhogo, agorora n'inda.

Amazi ni ubuzima nk'uko abahanga babidusobanura bavuga ko kunywa amazi buri munsi ndetse inshuro nyinshi, aho bavuga ko kunywa amazi menshi inshuro nyinshi bigufasha kuba wakwirinda indwara zigiye zitandukanye twavuga kuba bigufasha mu kwirinda, kuba wagira umwuma ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa kwa muganga cyangwa byifashishwa mu kuba hatangwa insimburangingo, aho ibikoresho byifashishwa mu gihe umuntu yahuye n'impanuka akaba yacika ukuguru cyangwa se akaba yagira ikibazo cy'imvune wenda nk'igufwa rikavunika, aho bamufata bakamushyiramo iki gikoresho kugira ngo abashe kuba yagenda neza kugira ngo bitadindiza iterambere rye, kugira ngo abashe kugaruka mu buzima busanzwe.

Kunywa amazi ni byiza, aho kunywa amazi bigufasha kuba wakwirinda ingwara zigiye zitandukanye, aho abahanga bavuga ko kunywa amazi menshi kandi meza bigufasha kuba wakwirinda ingwara zigiye zitandukanye nko kuba wagira umwuma ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye amazi afasha mu mubiri cyane ndetse akaba yanagufasha kumara inyota.

Kugira ubuzima buzima ndetse na roho nzima ni kimwe mu bintu abantu benshi bifuza aho gukora imyitozo ngororamubiri, kwirukanka si cyangwa gukora ibindi bintu bigufasha mu kuba wagira ubuzima bwiza, cyangwa si bikaba byagufasha kuba wabaho neza bitewe n'ukuntu ukora siporo kugira ngo bigufashe kuba wagabanya stress cyangwa se kuba wagabanya imitekerereze ukayiringaniza neza cyane.

Bimwe mu bintu byagufasha kuba wagira ubuzima buzira umuze, bikagufasha mu kuba wamenya uko ubuzima bwawe buhagaze, harimo nko kuba warya imbuto, kuba wanywa amazi menshi ndetse no gukora siporo, ni kimwe mu bintu byagufasha kuba wagira ubuzima buzira.

Ubuzima kunywa amazi ni byiza cyane cyane mu gihe urangije imyitozo ngororamubiri, harimo nko kwirukanka, gukina umupira, ndetse n'izindi siporo ngororamubiri, ibi bilkavuga ko mu gihe urangije siporo ari byiza kunywa amazi.

Amazi ni kimwe mu bintu byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho amazi yifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye, akaba anifashishwa kuba hakorwa isuku ndetse hakifashishwa kuba hakwindwa indwara zigiye zitandukanye zikomoka ku mwanda, twavugamo nka diyare, inzoka, n'izindi ndwara nyinshi cyane zigufasha kuba, amazi agufasha kuba wakwirinda ndetse akaba yagufasha n'ubuzima mu gihe wayanyweye kandi ari menshi.

Kimwe mu gikoresho ckifashishwa kwa muganga cyangwa se ahantu hagiye hatandukanye, aho iki gikoresha kifashishwa mu kuba hatwarwa ho umurwayi cyangwa se haterurwa ho umurwayi mu gihe agize ikibazo kigiye gitandukanye kugira ngo abashe kuba yagezwa ku bitaro mu buryo bworoshye cyangwa se kugira ngo abashe kuba yava ahantu hamwe ajyanwa ahandi.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu hakubaka umubiri cyangwa se hashwa indwara zitandukanyekanya aho ibi biribwa byifashishwa mu kuba wakubaka cyangwa se wakwirindanda indwara zi zitandukanye twavamo nk'amagi imbuto ndetse n'ibindi bigufasha kuba wagira ubuzima bwiza cyangwa se uka byagufasha umubiri mwiza cyangwa wagira ubuzima buzira umuze.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu byagufasha cyangwa se ni rumwe mu rufunguzo rwagufasha kuba wagira ubuzima buzima nk'uko leta yabidufashijemo ikaba yashyiraho siporo ngarukakwezi aho abantu bose bagomba gukora siporo ngarukakwezi, bibafasha kuba bakwirinda indwara zigiye zitandukanye, aho muri siporo ngarukakwezi babapima n'indwara ku buntu.

Bimwe mu bikoresho byakwifashishwa mu gihe urimo wivura mu gihe wakomeretse uri mu myitozo ngororamubiri twavugamo nka ga, tukavugamo nka pomade, tukavugamo nka bande ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane wakoresha kugira ngo ube wakwivura imvune se cyangwa se ahandi hantu wakomeretse mu gihe ugize ikibazo uri mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byifashishwa mu mikino ngororamubiri twavugamo: umupira w'amaguru, umupira wa basiketi, tenisi, rugubi ndetse n'ibindi bifasha abantu kuba bagorora umubiri bitewe n'uko kugorora umubiri ari bimwe mu bintu bifasha ubuzima kuba bwakora neza.

Gukora siporo ni kimwe mu bintu nkuko twagiye tubigarukaho kenshi cyane, imyitozo ngororamubiri ifasha umuntu kuba yagira mu buzima kenshi cyane aho nko gukora imyitozo irimo kuba wakwirukanka kugorora umubiri ndetse no guterura ibyuma bigufasha mu kuba wagira ubuzima ndetse bikanagufasha mu kuba byarinda indwara zigiye zitandu...

Gukora imyitozo ngororamubiri, ni kimwe mu bintu bifasha cyangwa se ni nka zimwe mu ngamba abaganga bagira abantu benshi kuba bakoresha kugira ngo habashe kuba hakwirindwa indwara zigiye zitandukanye, aho gukora imyitozo ngororamubiri bifasha kugira ubuzima bwiza, bikaba byagufasha gutakaza ibiro mu gihe ubikeneye cyangwa se kuba wakongera ibiro mu gihe ubikeneye.

Kimwe mu gikoresho cyifashishwa n'abafite ubumuga, aho iki gikoresho cyifashishwa bakicaramo, cyangwa bagenderamo kugira ngo kibashe kuba cyaborohereza ubuzima, mu gihe bagiye ahantu se, cyangwa mu gihe bagiye mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, aho aka kagari gafasha cyane kuba kabageza aho bagiye mu mahoro.

Bimwe mu bikoresho byifashisha mu myitozo ngororamubiri mu gihe umuntu abashije kuba yagira ikibazo cy'imvune mu bimwe mu bikoresho mu butabazi bw'ibanze agomba kuba afite hano twavugamo nk'isizo ibasha gukata bande cyangwa tukavugamo amavuta azwi nka pomadi aho aya amavuta agufasha kuba wagabanya imvune cg se ukaba wagabanya ububabare.

Ubuvuzi ni kimwe mu bintu bifasha kugira ngo habashe kuba hatera imbere mu bintu bigiye bitandukanye. Aho umuntu arimo avurwa ikibazo cy'imvune ashobora kuba yaragize ari mu myitozo ngororamubiri. Nk'uko mubibona ni umuganga urimo amupfuka amushyiraho umugozi kugira ngo abashe kuba yakorohereza imvune ye nk'uko bigaragara ko ashobora kuba ataragize ikibazo cy'imvune gikomeye. Ari kuba yamufasha kugira ngo abashe kuba yagaruka agakira ne...

Ibi ni bimwe mu bintu byagufasha kuba wakwirinda icyorezo cya corona virus, aha twavugamo nko kuba wakaraba intoki amazi meza meza n'isabune inshuro nyinshi cyane ku munsi, kuba kwirinda gusuhuzanya ndetse no kuba wahagarara hagati yawe n'umuntu harimo metero.

Imikino ni kimwe mu bintu bifasha kuba waruhuka ndetse bikagufasha kuba wagira akanyamuneza, aho gukina ari ibintu bifasha cyane urabona nk'abana bakina bishimiye/bishimira bifasha kuba wakunguka inshuti se bikagufasha no kuba wakungukamo ibintu byinshi aho gukina cyangwa se gukora imyitozo ngoramubiri bigufasha kuba wakwirinda indwara zigiye zitandukanye cyangwa bikagufasha kugira ubuzima buzima.

Gukora siporo kenshi cyane cyangwa sekora imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu bigufasha kuba wagira ubuzima bwiza ndetse bikaba byanagufasha kuba wakwirinda indwara aho gukora siporo cyangwa se no kunywa amazi ari kimwe mu bintu byagufasha byombi mu kuba wakwirinda indwara zigiye zitandukanye twavuga iyo umaze gukora siporo ukanywa amazi bigufasha kuba wakwirinda indwara y'umwuma.

Bimwe mu bintu byagufasha kuba wagira ubuzima buzira umuze hifashishijwe imyitozo ngororamubiri, twavugamo nko kuba wakina umupira, guterura ibyuma ndetse no kwirukanka, kwigorora ndetse n'ibindi byagufasha mu kuba wagira ubuzima buzira umuze binyuze mu myitozo ngo.....

Gukora imyitozo ngoramubiri ni kimwe mu bintu bifasha kuba warambuka ndetse bikagufasha kuanura imitsi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye aho imyitozo ngoramubiri iguafasha kuba wakwirinda indwara zigiye zitandukanye zikomoka kudakora siporo twavuga nko kuba wasaza vuba ndetse n'ibindi bintu byinshi bigufasha kuba wakwirinda indwara imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu byifashishwa mu kugira ngo habashe kuba indwara zijye zitandukanyekanya aho imyitozo ngoro igufasha mu kuba wagabanya imitekere cyangwa se kuba waruhuka mu mutwe aho imyitozo ngoramubiri igufasha mu bintu byinshi ujye bitandukanye ikaba yagufasha no kugabanya ibiromo igihe uba ifite ibiro byinshi, imyitozo ngoromubiri ni kimwe mu bintu bikoreshwa cyangwa se ni kimwe mu miti ikoreshwa kugira ngo habashe kuba hakwirinzwe indwara.

Siporo ni ubuzima, siporo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi, nk'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kibidutangariza, kivuga ko siporo ari kimwe mu bintu byagufasha mu kwirinda ubuzima bwo mu mutwe ndetse no kugufasha mu kubaho neza mu buzima busanzwe ndetse ukongeraho no kurya indyo yuzuye.

Gukora imyitozo ngoromu ni kimwe mu bintu bifasha mu kuba wagira imiterere myiza y'umubiri, ndetse bikaba byagufasha mu kuba wabaho neza ukagira ubuzima bwiza, aho gukora siporo kenshi cyane bigufasha kubaho neza bikakongerera iminsi yo kubaho.

Amazi ni kimwe mu bintu yifashishwa mu kuba yakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho amazi yifashishwa mu isuku n'isukura ndetse akaba anafasha umubiri kuba wakora neza, aho mu gihe unyweye amazi menshi amazi menshi cyane bigufasha kuba wagira ubuzima bwiza.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu bifasha cyangwa se bikaba byakangurira imitsi y'umuntu, aho imyitozo ngorora igufasha kuba wagira ubuzima bwiza cyangwa se bikaba yagufasha kuba wakongerare umubiri cyangwa se ukaba wagabanya ibiro mu gihe bi bikubangamiye. Aho imyitozo ngoromura ari kimwe mu bintu bifasha, aho umuntu yifashisha umugozi ndetse n'imashini kugira ngo abashe kuba yakora imyitozo ngororamubiri.

Ubukorerabushake ni kimwe mu bintu bifasha igihugu mu kuba cyatera imbere, aho ubukorerabushake dusangamo abakuruwaruje ndetse n'abavoronteri, abakuruwaruje bafasha cyane cyane mu gihe ngo habaye nk'ibirori cyangwa se hakaba hari nk'umuntu ugize ikibazo, aho bamufasha kuba bamuha ubuvuzi bw'ibanze.

Nk'uko mubibona ni umuganga urimo yita ku murwayi aho uyu murwayi ashobora kuba yaragize ikibazo k'imvune, cyangwa se ashobore kuba yarahuye n'impanuka y'imvune, aho bari kuba bamumufashe kugira ngo abashe kuba yagaruka mo gakegake, nyine bamukoresha imyitozo gake gake kugira ngo abashe kuba yazagaruka mu buzima busanzwe, kugira ngo abashe kuba yakira neza.

Kimwe mu bintu byagufasha mu kuba wagira ubuzima bwiza no kuba wakwinjira ahantu bakorera massage cyangwa se bakorera bimwe mu kurambura imitsi kugira ngo babashe kuba bagufasha kurambura imitsi bikaba byagufasha kuruhuka ndetse bikagufasha no kuruhura imitsi ndetse no kuyi kangura bikaba ari kimwe mu bintu bifasha cyane mu buvuzi bugiye butandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu mikino igiye itandukanye twavugamo Rugubi, Football mu mupira w'amaguru, Basketball ndetse n'ingofero bakoresha bifashisha mu kuba wakina Rugubi aho bikoresha bifasha mu myitozo ngorora mubiri kugira ngo ubashe kuba warinda ubuzima se cyangwa bikaba byagufasha mu kuba wakorera amafaranga.

Umwitozo ngororamubiri w'umukino wa Rogubi aho twabonye ko imyitozo ngororamubiri ifasha abantu kuba cyangwa se abantu cyangwa se abaturage mukuba bagira ubuzima buzira umuze kandi kugira ubuzima buzira umuze niko kugira ubuzima bwuzuye.

Ibikoresho byifashishwa mu gihe ushobora kuba wagize nk'ikibazo cy'imvune, harimo ibikoresho gisa umukara, ubururu ndetse n'umutuku, aho umuntu yagize imvune ashobora kuyikoresha yizirika kugira ngo agabanye uburibwe.

Umuntu urimo unywa amazi, bikavugwa ko amazi ari ubuzima ndetse amazi afasha mu mikurire myiza y'ubwonko ndetse n'ibindi bintu, ibindi bice bitandukanye nko gufasha mu igogora ry'ibiryo ndetse no kuba wagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu dukomeje kubona ko gikomeje gufasha abantu benshi, kibafasha kuba baruhuka mu mutwe, kikabafasha kuba bananura imitsi, kikabafasha no kuba bagira ubuzima bwiza, aho imyitozo ngororamubiri cyangwa se gukora siporo ari kimwe mu bintu bifasha abantu cyangwa se umuntu kuba yagira ubuzima bwiza.

Imwe mu mikino yifashishwa mu kuba hakorwa cyangwa se hakorwa imyitozo ngororamubiri twavugamo nka acrobasi, umupira w'amaguru ndetse n'indi myitozo criket ndetse n'indi igufasha mu kuba waruhuka ndetse ikaba yagufasha mu kuba wagabanya ibibazo bigiye bitandukanye nko kuba watakakaza ibiro ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Kimwe mu bikoresho byifashishwa muvuzi aho iki gikoresho kifashishwa ku murwayi wagize ikibazo k'imvune, aho ashoboye kuba yavunika mu kibuga, kugira ngo babashe kuba bamwunga, bakoresha iki gikoresho kugirango ngo babashe kuba bakomeza cyangwa se bakwegeranya amagufu kugira ngo batabasha kubabara mu gihe ari ikibazo cyoroheje.

Ni ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo se cyangwa mu buvuzi butaratera imbere, aho bifasha kuba byavura indwara nyinshi harimo nk'inkorora ndimo ndabonamo nka tangawizi, tungurusumu, ndetse n'ibindi cyane byifashishwa mu kuba byavura umuntu ariko mu buryo bwa gakondo.

Bimwe mu byatsi cyangwa se bimwe mu bimera byifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye ariko ubuvuzi bwa gakondo budatembere aho ibi bihingwa harimo nk'ibyo twavuga nk'umuravumba kapsinine ndetse n'ibindi byinshi cyane bigufasha kuba harindwa cyangwa se havugwa indwara zigiye zitandukanye, aho ibi byatsi byifashishwa byakugwamo imiti itandukanye ivura indwara runaka.

Bimwe mu bintu byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho ibi bihingwa ari ibihingwa bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura cyangwa se mu kuba byafasha gukiza ubuzima, aho ibi bihingwa byifashishwa mu buvuzi butandukanye, burimo nko kuba byavura indwara zigiye zitandukanye twavugamo nk'inkorora ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kugirango habashe hategurwa imiti igiye itandukanye ariko imiti ya gakondo twagwamo nk'imisekururo cyangwa se n'umuhini noneho mu miti yifashishwa kugira ngo habashevura indwara zigiye zitandukanye twavugamo tungurusumu, tangawizi, ndetse n'izindi bigiye bitandukanye kugira ngo bifashishwe mu kuba havugwa indwara.

Umuravumba ni kimwe mu bintu bigufasha kuba wakwirinda indwara zigiye zitandukanye, aho umuravumba ugufasha kuvura indwara zigiye zitandukanye, ukifashishwa havurwa indwara zirimo nk'inkorora, twavuga ise, ndetse n'izindi ndwara, aho uyu muravumba ari kimwe mu bihingwa bikoreshwa bya gakondo mu kuvura indwara nyinshi.

Igihingwa cyifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye bwa gakondo, aho ugikoresha agifata akakivuguta cyangwa se akagisekura, kugira ngo hifashishwe mu kuba cyavura indwara zitandukanye twavugamo inkorora, ise ndetse n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Imiti yifashishwa mu buzima ishobora kuba ikozwe mu bimera, harimo imiti ishobora kuba ivura indwara runaka ndetse ikaba ikoreshwa iri mu ikusanyirizo aho tuzi nko muri aho ikusanyirizo ry'imiti.

Imwe mu buvuzi bwifashishwa mu kugira ngo habashe kuba havurwa indwara zigiye zitandukanye, aho imiti ya gakondo ifasha cyane ikunganira n'imiti ya kizungu kugira ngo habe havurwa indwara zigiye zitandukanye nk'igifu ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zifata abana ndetse n'abantu bakuru kugira ngo habashe kuba hakoreshwa imiti gakondo.

Kimwe mu bihingwa byifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, aho ikigihingwa gifasha mu kuba havura ibintu bigiye bitandukanye kitwa igikakarubamba. Igikakarubamba ni kimwe mu bintu bikorwagwamo imiti itandukanye, kikaba cyakifashishwa mu gukora amavuta agiye atandukanye yo kwisiga.

Bimwe mu byatsi cyangwa mu mbuto cyangwa mu mboga zifashishwa mu kuba havurwa indwara zigiye zitandukanye, aho amashu avura indwara zigiye zitandukanye twavugamo nko kuba amashu agabanya ububabare mu gifu, ndetse akaba afasha mu buvuzi bugiye butandukanye aho ari meza ku buzima bw'umubiri

Ibibabi by'ibibonobono, ibibabi by'ibibonobono ni kimwe mu bintu bifasha havugwa cyangwa se hakwirindwa indwara nyinshi zigiye zitandukanye aho ibibabi by'ibibonobono babikoresha mu gihe bivura indwara ndetse bakabikoresha mu buryo bwa gakondo aho ibibabi by'ibibonobono bifasha mu buvuzi bugiye butandukanye aho bikiza indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Ubukerarugendo ni kimwe mu bintu bifasha igihugu cyangwa se, ni mu buzima busanzwe kugira ngo habashe kuba hatera imbere, nk'uko ubibona ni abantu barimo bahetse ibikapu, aho bagiye gutembera cyangwa se bagiye gusura ibikorwa bigiye bitandukanyekanya, aho bifasha kuba hakongerwa iterambere ry'igihugu cyangwa bigafasha kuba byazamura ubukungu bw'igihugu.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo hano twavugamo nk'imiti bakoresha bisiga cyangwa se n'indi bakoresha banywa, aho iyi miti ifasha mu kuba yarinda cyangwa se yavura indwara zigiye zitandukanye, zirimo igifu, umwijima ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane zitandukanye.

Umuhinzi w'igikakarubamba aho yasuwe n'ubuyobozi kugira ngo bumugire inama se cyangwa se bugaragaze uburyo igikakarubamba, ari ikintu cyiza mu buzima rusange mu buzima busanzwe.

Bimwe mu bikoresho bya gakondo byagufasha kwirinda cyangwa se mu kuba wakwivuza ukoresheje ibikoresho bigiye bitandukanye bya gakondo, twavugamo nk'imineke, inanasi, icyayi ndetse n'ibindi bishobora kugufasha mu kwivura indwara zigiye zitandukanye, ariko hifashishijwe uburyo bwa gakondo.

Bimwe mu biribwa cyangwase mu bintu byagufasha mu kuba wakwivura indwara zigiye zitandukanye, hano twavugamo nk'igitoki, twavugamo nk'ubunyobwa ndetse n'ibindi byatsi byagufasha mu kuba wakwivura indwara zigiye zitandukanye, byifashishwa rero mu buvuzi bwa gakondo.

Kwirinda ndetse no kubungabunga kuba hatemwa amashyamba cyangwa se kuba harindwa ibikorwa remezo, ni kimwe mu bintu byadufasha mu kuba hakwirindwa kuba twatakaza imiti bakoresha mu kwivuza indwara za gakondo.

Ni ahantu muri supamaketi cyangwa se mu isoko, aho abaturage baza guhaha ibyo bakeneye bigiye bitandukanye, harimo ibiribwa, imiti n'ibyo kurya muri rusange.

Imwe mu miti yifashishwa mu buvuzi navuga ko butaratera imbere, aho iyi miti yifashishwa mu buvuzi ifasha cyane cyangwa se ikunganira indi miti isanzwe, twavugamo nka tangawizi, ibyatsi ndetse n'indimu, aho bifasha kuba wakwivura indwara zigiye zitandukanye

Ni ibyatsi bya gakondo byifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, aho umuntu ashobora kuba yabihekenya cyangwa se bakabivuguta bakaba bakuramo amazi yayo akaba ariyo bifashisha mu kuba bavura indwara runaka.

Kimwe mu bintu byifashishwa mu kuba havura indwara zigiye zitandukanye, aho igikarubamba ari kimwe mu bintu bigufasha kuba wakwivura indwara zitandukanye, aho igikakarubamba kibasha kuba cyavura ibisebe cyangwa se komora igisebe cyangwa se ku muntu wagize ikibazo cy'ubushye, aho iyo wifashishije igikakarubamba kigufasha kuba wakwivura ndetse kikaba cyagufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu buzima.

Igihingwa bita umuravumba aho kiramutse gifashwe kikabungwabungwa gifasha mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, twavugamo inkurora, ise ndetse n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye, aho kibungabunzwe cyazakura neza kikazafasha mu buzima.

Ubwoko butandukanye bw'ikawa burimo isumu ifite amabara y'umutuku ndetse amabara y'umweru ndetse n'ayashokura y'icyatsi ndetse n'ibara ry'icyijuju bigaragara bivuga ko ikawa iraryoha kandi inafasha no mu buzima bwa buri.

Umwe mu miti bifashishwa mu kuba havugwa indwara zigiye zitandukanye, twavugamo umuti wifashishwa mu kuvura inkorora, aho ari umuravumba ubufasha mu buvuzi bugiye butandukanye, aho umurava budufasha ku havugwa cyangwa se hakwitabwaho bitewe n'uko umuravumba nicyo cyatsi gishobora kuba cyavura indwara nyinshi kandi zita..

Kimwe mu gihingwa cyifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, aho iki gihingwa cyifashwa mu kuba wavura cyangwa se wavura indwara zigiye zitandukanye, twavugamo nk'inkorora, ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, aho gifasha kuba wavura ise, ndetse n'ibindi, ikihingwa bakita umubiri umuravumba, aho umuravumba wifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye, ukaba ugikoreshwa mu buryo bwa gakondo.

Ubwoko bw'imiti bwifashishwa mu kuba bwa, mu buvuzi bwa gakondo, bwifashishwa kugira ngo bwunganire ubuvuzi bwa gihanga, ubuvuzi bwa gakondo burafasha cyane kugira ngo umuntu abe yamererwa neza, bitewe n'uko hari imyinshi mu miti bakora iva mu byatsi ,igafi ikunganira ndetse n'ubuvuzi bwa kizungu.

Imiti ya gakondo ifasha abaturage ndetse n'abantu benshi mu kuba bakwivura indwara zigiye zitandukanye, aha twavugamo nk'uburwayi bw'impyiko, umwijima ndetse n'izindi ndwara zirimo igifu n'ibindi bintu n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye, aho ubu buvuzi bufasha benshi cyane kugira kuba bwabavura izo ndwara zose navuze hepfo.

Bimwe mu miti cyangwa se bimwe mu bintu byifashishwa mu kuba havura indwara zigiye zitandukanye, aho iyi miti iba ikoze mu byatsi bigiye bitandukanye, aha twavugamo nk'umuravumba, tangawizi, umubirizi ndetse n'ibindi byinshi cyane bigufasha mu kuba havurwa indwara zigiye zitandukanye ariko hifashishijwe ibimera gakondo.